Hano ni mu gishanga hahinze imyaka abagabo bari kuyitera imite kugira ngo ikomeze ikure neza itangiritse, idatewe ikibazo n'ibyonyi bigatuma idatanga umusaruro mwiza.

Uyu ni umurima uhinzemo ibishyimbo biteye kijyambere ku murongo, ari kubitera umuti kugira ngo bikure neza byujuje ibisabwa, bikure nyine nta dusimba byarwaye ari byiza cyane.

Uyu ni umurima w'ibirayi bimaze gukura, iyo bimaze gukura babitera umuti kugira ngo udusimba tutazajyamo tukabyica bigatuma bitera neza, babitera umuti urimo aside yica udukoko twangiriza imyaka.

Uyu mumama afite ifi ikiri ntoya, bita igihondo. Utu dufi dufasha abana kugira imikurire myiza ndetse no kugira amagufwa akomeye, iyo bafite amagufwa yoroshye, bakarya kuri aya mafi, amagufwa arakomera.

Aya ni amafi bita Ibihonda, akunze kuba mu biyaga cyangwa se mu Kagera, tuba ari udufi dutoya tutarakura, aya mafi kuyarya afasha abana bafite imirire mibi, atuma amagufa akomera ndetse agatuma bagira n'ubuzima bwiza.

Mu gishanga hakorerwamo imishinga myinshi cyane, harimo guhinga insina cyangwa se ibyo bita urutoki bituma abaturage bagira ubuzima bwiza urutoki rudufasha kunywa umutobe ndetse tukanaruteka ikindi tukarukoramo imineke.

Hano ni ku mazi aba ni abarobyi bamaze kuroba amafi bari bashyizemo urushundura amafi afatwamo, bari kugenda bakuramo amafi barobye agiye arimo baruzinga nyine kugirango bongere barusubizemo.

Aha ni mu kiyaga, uyu ni umukobwa uri kuroba akoresheje urushundura, yashyizemo umutego wafashe amafi, ari kugenda akuramo ayafashwe, ayashyira ku ruhande.

Ahan ni mu kiyaga bari kureba udufi duke dutoya cyane bakoresheje urushundura, harimo amafi menshi cyane, umwe ari kuyasamuraranga ngo arebe ibintu biri mu nda, iri mu ibasi y'umukara.

Umugabo amaze kuroba iyifi, ayikuye mu mazi, ni igifi kinini cyane kandi cyiza, iraryoha, uyitetse ntabwo akongera kurya izindi nyama atari ifi. Arayifashe ari kwereka abantu ko akuyemo igifi kinini.

Aha ni mu kagera hari ubwato bw'igiti abantu bari kuvoma amazi mu bakoresheje indobo bambaye isabeti na boti bari kuyavoma mu ku musozi.

Umurima w'icyayi munini cyane urimo musi y'igitari hirya y'aho hari ishyamba ry'inzititane, mo hagati irimo akayira abantu banyuramo harimo n'akazu karinda izuba abaje kuhakora bakicara bakaruhuka, bamara kuruhuka bagakomeza inzira bakagenda.

Aha ni mu kibaya hahinze icyayi, ruguru yaho hari amaterasi y'indinganire, harimo ibiti birebire, bitanga umwuka mwiza, haruguru hari agasozi, ishyamba, ni ikirere kimeze neza.

Iyi ni ikawa, hariho abantu batatu bari gusoroma ikawa bishimiye umusaruro yatanze, ireze neza kandi zirahiye, bari kuzisorama kugira ngo bajye kuzigurisha babone amafaranga.

Aba ni abahinzi b'ikawa babigize umwuga baziteye izo ziteye mu gishanga iruhande rwazo hari akagezi kanyuramo hari umugenda unyuramo amazi izi ni ikawa zikiri ntoya bari gutema nyine ibiti byashaje kugira ngo zishibuke zizakomeze zikure neza.

Iyo ni umurima w'icyayi ni munini cyane ni muremure harimo umusaruzi uri gusarura icyayi ireze ari kugenda asoroma ashyira mu gitebo nicyo basaruriramo cyabugenewe iyo bari gusarura icyayi nyine bifashisha igitebo kugirango bage bashyiramo.

Iyo nama ni imiti y'amatungo. Ariho inka n'izindi n'andi matungo yose. Ugize ikibazo k'inyamaswa y'itungo woroye. Wagana muri farumasi, tukagufasha kwa veterineli wabigize umwuga.

Iribandozore supa bibiri magana atanu mega borasi ni umuti w'amatungo cyane cyane inka uzivura igihe zarwaye inzoka cyangwa se izindi ndwara.

iyi ni imiti ivura, ni amacupa abikwamo ibinini nyine bayifashisha kugirango babikemo ibinini kugirango bitangirika cyangwase bigahurahura n'ubukonje bigakonja bigatuma ibinini biba byangirika.

Aya ni amacupa yifashishwa mu kubika imiti abika neza kuko yo nta bukonje bugeramo ntanubwo amazi yagwaho wenda avuge ngo biratoha ngo byangirike wenda nk'ibito muri mvirope hari igihe amazi akoraho kikangirika cyangwa se imbeho yaza ikaba yagitosa ariko rino cupa riba ribitswe neza mu buryo bwizewe.

Iyi ni imiti y'amatungu iba iri mu gicuku mu ducupa tumeze gutya ifunze neza, ntabwo yemerewe kuvangwa n'imyaka, kuko bishobora kwivanga bigatuma ubuzima bwawanyu bwangirika cyane cyane bukaba byabukuramo nk'urupfu ndetse n'izindi ndwara zikomeye.

Iyi ni imiti y'amatungo baha amatungo yarwaye, haba hariho ikigero cy'ukuntu agomba gukoreshwa, akoreshwa n'abaveterineri, ku buryo undi muntu ayikoresheje atarabihuguriwe ashobora kubikora nabi itungo rikaba ryapfa.

Iyi ni ifamu irimo inka nyinshi cyane n'inshyo, ishyo ry'inka ziri kurisha ubwatsi, harimo ibiti, harimo inka z'umukara, harimo inka zifite amabara y'umweru avanze n'ay'umukara.

Ni abakecuru babiri bajya mu murima guhinga bafite amasuka y'ingembe, bagiye gutabira mu gishanga, bari kugenda baganira banyura mu kayira gatoya cyane, utuyira two mu masambu ni uko tuba tumeze.

Hano ni mu gishanga aho bahinga umuceri, uyu mugabo urimo ni umuhinzi wabyo wabimenyereye ari gubagara umuceri akuramo ibituma udakura neza cyane akawusiga umeze neza, ari kuwutandukanya kugira ngo uzere neza.

Ishyo ry'inka, ni inka zakingiwe zambaye amahereni ikintu kigaragazaza ko zahawe urukingo ziri kumwe n'umushumba ziri kurya mu rwuri rutoshye cyane rumezi neza, inka na zo zirabyibushye zirasa neza cyane zitanga umukamo mwiza.

Aba ni abaturage bari gutera ibiti kandi ibiti nibyiza bitanga umwuka mwiza, bituma imyaka imera neza, bituma imvura igwa, birinda umuyaga mwinshi cyane mu myaka ndetse no mazu, bituma amazu adasambuka kubera umuyaga mwinshi, ibiti ni byiza.

Aha ni mu muhanda wo mu cyaro ujya ku i izambu, ujya ku mirima. Hirya hateye ibirayi hepfo hateye ibigori. Hagati hari umushumba ufite n'inka ebyiri agiye kuragira, ari kugenda afite inkoni kugira ngo zitajya kona.

Uyu ni umuturage uri mu murima ari kubagara ibirayi akoresheje isuka byakuze neza, biri bigutanga umusaruro ari gushyiraho itaka kugira ngo bizakomeze byere neza bitange umusaruro uhagije bityo abijyane ku isoko abone amafaranga.

Ibigori byeze bifite ibara ry'umuhondo byeze neza byatanze umusaruro ushimishije kuri nyirabyo bivamo akawunga keza cyane ndetse ushobora no gukuramo n'ifu y'igikoma iryoshye cyane.

Icyi ni igiti cy'umwembe ukiri mutoya uri gukura utatangirara bisaba kubona imvura n'izuba kugira ngo gikore neza bagashyiraho n'ifumbire ihagije.

Aha ni mu gishanga, imirima iba yegeye amazi bahingamo umuceri. Uyu ni umuceri ukiri mutoya, utarakura ngo were, ugeze mu gihe cyo kubagarwa kugira ngo ukomeze ube mwiza.

igiti cy'umwambati giteye mu murima bamaze kubagara babarishe ugarishije isuku hari yatewe n'ibigori ariko barabisaruye ibiti byabyo barabidura bakorera umyumbati neza kugira ngo ukure neza ubyibushye wisanzuye.

Uyu ni umugabo waje kureba mu murima we uko hameze, hashize iminsi basaruye ibigori banakuyemo amateke, n'ibirayi bagiye babikura bakura aho biri, bataruka ntabwo barahahinga. Basaruyemo ibigori hirya hateyemo n'urutoki insina, ari kureba ko baza kuhahinga vuba.

Hano ni mu kibaya haratambitse cyane nta gasozi karimo hararyamye hararambuye, hahinze icyayi ahandi hadahinze harimo umuhanda ushaka gushyiramo imipira y'amazi izajya iyatembereza mu butaka wose.

Aha ni mu giturage, aho inzu z'abaturage zituye ahantu heza. Aho baba baturanye n'ibidukikije bahumeka umwuka mwiza cyane nta kibazo.

Ahari ni mu ifamu hari inka nziza cyane, zifite amabara n'izidafite amabara umweru n'umukara. Ziri kurisha ahantu hari ubwatsi bumeze neza butoshye hari ibiti byiza. Mbese nta zuba ryinshi zihura, izi nka zihura nazo, zihura naryo.

Iri ni ishyamba rya kimeza rirafatanye cyane ni ryiza, imvura yarabonetse rimeze neza cyane, akamaro karyo rifasha abaturage kwinjiza umwuka mwiza umeze neza cyane.

Iri ni ishyamba riri hafi y'akagera, ikiyaga kinini cyane harimo agahanda gatoya abaturage banyuramo bari kujya kureba uko rimeze, mu mazi habamo amafi, habamo n'inyamaswa yitwa imvubu iba muri aya mahanzi.

Abazungu bari mu misozi bari gukora ubukerarugendo, bari gutembera mu misozi bagenda barebareba hose ibyiza bitatse u Rwanda kugira ngo zabone ibyo bajya kubwira iwabo hanze ibyo babonye mu Rwanda.

Ibidukikije, muri rusange ni byiza cyane kuko bituma duhumeka umwuka mwiza, aha ngaha hari ishyamba ryiza cyane, rikoze neza, riteye neza ku murongo, ritanga umwuka mwiza ku bidukikije.

Hano mu gitondo mu ishyamba ry'inzitane, izuba ritarava hari ibihu, biri guturuka mu ishyamba, harijimye cyane kubera ibihu by'umweru bituma umuntu atareba imbere y'iwe, bigaragaza ko imvura igiye kugwa cyangwa se ko hataracya neza.

Hagati mu ishyamba harimo umuhanda, abantu banyuramo ku ruhande ni ibiti n'urundi ruhande ni ibiti ariko mo hagati harimo umuhanda abantu banyuramo, umuhanda nyabagendwa, abantu banyura bari kwikorera ingendo zabo.

Urutoki ruhinze ahantu mu kabande, hirya yarwo hari ishyamba rifite ibiti bitiganye by'inzitane, ni urutoki rumeze neza cyane. Urutoki rugira akamaro kenshi, bararurya, barukuramo umutobe, ndetse banakuramo urwagwa.

Mu buzima busanzwe kugira ibidukikije cyangwa se gutera ibiti ni ibintu byiza cyane. Aha ngaha twateye ibiti bya gereveriya, bidufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi biturinde n'umuyaga mwinshi cyane, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi biti ni byiza cyane ntabwo byonona imyaka ahubwo bituma mugira ubuzima bwiza kubera ko muba mufite ibidukikije mu murima.

Aha ni aho baragira inka ziri mu ifamu baraziragiye ni ishyo ry'inka, ziri kurisha harimo ubwatsi byiza cyane butoshye busa neza, bubereye inka mbese bubereye kurya inka.

Indabyo nziza cyane zifite amabara meza atukura, asa n'icyatsi barazihinga hanyuma bakazikoreshashisha igihe zikenewe, haba cyangwa ikindi kintu gituma hakenerwa indabo.

Izi ni imbuto za pome, zireze, bari kuzisoroma, kugira ngo babone uko bazijyana ku isoko, n'imbuto ziryoha cyane, kandi zifite intungamubiri mu mubiri w'umuntu, uyo aziriye zirinda indwara kandi zigatuma agira ubuzima bwiza, buzira umuze.

Ubu ni ubuhinzi bw'inanasi kugira ngo inanasi zigire umusaruro mwiza ni uko zibagarwa, zigakorerwa isuku nyine zikitabwaho cyane cyane, mu gihe hajemo ibyatsi, ukabirandura, ukazibagara, nibwo zizana umusaruro mwiza kandi utobotse.

Imboga z'amoko yose inyanya, harimo n'ibigori, pavuro, sereri, puwalo, karoti, urusinnda n'izindi nyinshi cyane, imboga z'amoko yose zirimo.

Uyu ni umurima w'amatunda abahinzemo amatunda, uyu mugabo ari kwerekana umusaruro wo amaze kugira, umurima wezi neza, ufite amatunda meza, aryoshye, asa neza cyane rwose, abyibushye, aryoshye kubi nashishikariza buri wese kuza kuyahaha.

Izi ni indabyo nziza cyane z'amoko yose turasa neza turahumura mana yanjye nyine ni twiza turi ku isoko turi mu mavaze waza ukagura ku biciro byiza cyane kandi bihendutse bikatutse ni uturabyo twiza tw'amabara meza ku buryo utubonye wese ahita agira amatsiko y'aho uririya.

Uyu ni umuhinzi wabigize umwuga ari kuzivomerera imboga yateye kugira ngo zikure neza anazitera umuti ntakibazo zifite. izi ziracyari ntoya ari gusukamo amazi kugira ngo zikomeze zikure neza zifite umusaruro muzima.

Uyu ni umurima w'amashushu, ukeneye imvura nyinshi cyangwa se amazi menshi, uyu mugabo urimo ni nyirumurima, yifashishije umupira uzana amazi mu murima mu buryo bwo kugira ngo amashu ye yere kuzicwa n'izuba, ajye ayuhira mu gihe imvura yatinze kugwa.

Uyu ni umurima w'amashu ariko aracyari matoya ntabwo arakora neza, kandi iyo akiri mato aba akeneye kuhirwa kugira ngo atabura amazi cyangwa se atabura ubutaka bukonje, bigatuma apfa ntazatange umusaruro mwiza. Uyu mugabo afite imashini ari kuyuhira kugira ngo amazi akomeze acengeremo.

Iyi ni ipombo ifasha abaturage kuhira imyaka igihe izuba ryabaye ryinshi kugira ngo ibihingwa bikure neza cyane, bayifashisha mu gihe izuba ryatse kugira ngo ibihingwa bikomeze bikure neza nta kibazo cy'izuba bigize, ni ibikoresho by'ikoranabuhanga byaje mu giturage kugira ngo abahinzi bajye bahinga nta kibazo bafite.

Uyo ni umurima uhinzemo imboga kandi imboga zihingwa by'umwihariko ukwazo, ukazivomerera, mu gihe cy'izuba ukazitaho kugira ngo zidapfa. Hirya urabona ko umurima utitaweho uhinzemo ibigo biyikiri bitoya hijyanye n'umurima udahetsemo utu ibigavyanti ariko umurimo w'imboga bibona ko ari witorewe no kuwuvmererera.

Uyu ni umurima w'ibigori bimaze gukura biri guheka byasambuye bizana twa tuntu dutuma ibigori byera neza bikeneyeye akazuba ndetse n'imvura kugira ngo biheke neza bizabe bibyibuye.

Ibi bihingwa bihinze mu matarasi y'indinganire ikindi kandi bifite ibihombo bigenda bibivomerera bishyiramo amazi, ni ibya kijyambere kugira ngo bitazagira ikibazo k'izuba ryinshi bigahungabana.

Ibii ni ibyuma bifasha gukwirakwiza amazi mu mirima, ahangaha izi ni inkeri bari kuvomerera kugira ngo zitange umusaruro mwiza zifite amazi zitoshye nta kibazo cy'imvura gihari; mu gihe cy'izuba bafunguye imigezi atangamo amazi.

Aha ni mu kibaya, haratambitse, harimo imyaka, ibiti byinshi cyane ariko bitari byinshi byo kuba mu mirima nta musozi uhari, haratambitse hose ni heza, iruhande rwaho kure hari amazu atuyemo abaturage.

Irrigation system ubu ni uburyo bushyashya bwo kuhira imyaka, ubu bugomba kwifashishwa buri kuhira uko ugenda burira bugenda bwiyongera kugira ngo bwuhire umurima wose bugire umusaruro.

Ikiyaga iruhande rwacyo hari imisozi miremire, ku rundi ruhande hari imisozi iri hagati n'amazi atemba, akomeza akagenda ntabwo tuzi aho agarukira ariko arasa neza cyane.

Iyi ni imisozi ibiri ruguru urahari n'ahandi ruguru urahari no hirya hari undi ariko kuri iyo misozi hahinze amaterasi y'indinganire kugira ngo amazi atazaza aturutse hejuru ku musozi, agatembana imyaka akayikukumbana.

Iyi ni imisozi, hakurya hari imisozi hakuno hari imisozi hagati ni mu kibaya, abantu hatuyemo abantu, harimo amazu nubwo atari menshi cyane, ariko batuyemo baratuye banahinga.

Ni amagare ari ahantu mu gasozi, ari ahantu hahinze amatarasi y'indinganire, ku ruhande cyane hejuru ku musozi hari n'undi musozi uri hejuru ku ruhande cyane, hirya y'amagare hari amajerekani avuye kuvoma.

Iyi foto yafatiwe kure cyane nayifashe mpagaze hejuru ku gasozi mfotora nyeneye mu mpanga ndi kwerekana amazu ni ya misozi igihumbi y'u Rwanda abatuye hepfo cyane mu mazu harimo abatuyemo hari n'abatuye ruguru y'umuhanda.

Aha ni aho inkwavu zororerwa, mu kiraro cya kijyambere, aho harimo utwuma dutuma zinyara inkari zazo, zikajya munsi cyane zitagumyemo ngo zizibangamire, hari inkwavu z'umweru n'iz'umukara n'utwumweru tuvanzemo andi mabara.

Iyi ni inka ikiri ntoya, ifite iherena ku gutwi, yambaye n'icyuma mu mazuru, irarwaye itegereje ko haza veterineri, akayikingira, akayikiza, akayikingira nyine ahantu hari ibyo.

Iri ni itungo rya kizungu bakunze kwita ingurube. Ni itungo ryororerwa mu rugo ryororwa n'abantu ritanga umusaruro.

Ubworozi bw'inka bwa kijyambe. Inka ziba ahantu heza hasukuye hafite isuku hasagaye hatari izuba ryinshi cyane, bakazizanira ubwatsi zikarya ubundi zigatanga umukamo mwiza cyane.

Ingurube, ibi ni ibwana by'ingurube biri konka nyina yabyo, bimaze iminsi mike bivutse ntabwo birakura cyane baba babiryamishije kuri nyina bikonka.

Inkoko za kizungu iyo bazigaburiye neza zikarya zigahaga zikabona amazi, zitanga umusaruro w'amagi menshi cyane ku buryo bwose urya umuleti ukihaza ndetse ukarya n'amagi atogosheje.

Izi ni inka, ishyo ry'inka bari kuzitera urushinge bazikingira indwara, kugira ngo zizakomeze zigire ubuzima bwiza, nta bintu by'ibirwara zifite by'ibyorezo bifatata inka, urugero nk'imiryamo, baba bazikingira, kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza.

Ingurube ni inyamaswa igira amafaranga itagoranye mu kuyorora, irya byose nta kintu na kimwe igize kandi byarira vuba amezi make cyane igatanga umusaruro, ikabwagura nk'ibibwana icumi cyangwa umunani, urumva ko itanga umusaruro.

Aya ni amatungo magufi yitwa inkwavu, yubakiye neza mu buryo bwa kijyambere, ni inkwavu za kizungu, zifite ubwoya bwinshi, zirasa neza, zibawe neza cyane.

bworozi bw'inkoko, inkoko ziba zikeneye kuba ahantu heza hasukuye hubatswe neza, ahantu hari umutekano kandi zikabona ibyokurya bihagije ku buryo ziba zidafite ikibazo na gike mu mikurire yazo, zikagira utuntu twabugenewe two kuzigaburiraho ndetse no kuziheramo amazi.

Mu ifamu aho abashumba bari gukama inka, baziziritse amaguru kugira ngo zitaza kubatera imigeri mu gihe bari kuzikama, bigatuma amata abogora, hari n'undi musore uhagazemo uri kwifotorezamo wambaye ishati ijya gusa icyatsi, ipantaro y'umukara n'inkweto zijya gusa uburu, hasi hari akabara k'umweru, yambaye n'ingofero yanditseho dior.

Izi ni inkoko ziri kurya umuceri bazishyiriye ku kuma kabugenewe gatuma zitarya imyanda zibirya neza Kandi zitabisanjije hasi bituma inkoko zikurura neza kubera ko ziba zariye neza.

Ubworozi bw'inkoko bwa kinyamwuga aha angaha inkoko baziha amazi, hari udukoresho twabugenewe babikamo amazi y'inkoko ndetse bashyira n'ibyokurya hasi kugira ngo zikomeze zikorere zitange umusaruro w'amagi meza.

Aha ni mu ifamu hari ishyayo ry'inka ziteze neza rwose ziteze nk'inyambo, harimo abaveterineri baje kuzireba ngo barebe ko harimo izifite ikibazo bazivuri hakiri kare.

Inka bari kuyishora bakoresheje amazi ari mu ibase y'ubururu, umuntu uri kuyiha amazi yicaye hasi yambaye bote n'imyenda n'ingofero, afite n'inkoni mu kuboko ko hirya, inka iri kunywa amazi, iri mu kiraro.

Iki ni ikiraro kjj'ingurube, cyubakishije ibiti bitambitse hasi hateyemo sima harapavomye, harimo ingurube y'umweru ifite amatwi manini, iri mu kiraro hagati hirya hari indi iryamye, zirimo bacyubakiye hanini ku buryo zisanzura.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere hano hari udukoko twinshi cyane cyane cyane cyane cyane cyane twororewe mu nzu ifunze ku buryo nta mujura watwiba harimo n'udukoresho bifashisha bari kuduha amazi yo kunywa.

Iyi ni inka y'inyarwanda nziza cyane, irabyibukiye nta kibazo ifite, yariye neza, ku buryo rwose nibyara izaba iri gutanga umukamo mwiza, irasa neza, yambaye iherena barayikingiye nta kibazo na kimwe ifite.

Ubworozi bw'inkoko udukoko tw'udushwi dukiri dutoya cyane ni twinshi cyane twororewe mu kizu kinini twahawe ibyo kurya bihagije ndetse bifite vitamine n'intungamubiri hari n'udukoresho twabugenewe two kunnyweramo amazi kugira ngo ziticwa n'inyota.

Ubworozi bw'inkoko z'inyarwanda zifashwe neza cyane barazubakiye bazishyirriramo ibikoresho zifashisha ziri kunywa amazi kugira ngo zimwe amazi meza atari buzitere ibicurane, bazishyirariramo n'isaso kugira ngo zijye zigenderaho.

Aha ni mu murima bateyemo ibigori, biri gutangira kumera, hashize icyumweru n'iminsi itatu babiteye, bitangiye kumera harimo umuntu waje kureba ko biri kumera, nyine n'akazuba kari kwaka.

Pepo y'umuceri udatonoye, hari imifuka myinshi ariko harimo uwangiritse urameneka, umeneka hasi mu nzu batarawujyana mu mashini ngo bawutonore. Iyi nayo iyindi ni imifuka igifunze.

Izi ni imbehe zakoreshwaga mu gihe cya kera, y'abakecuru ibintu by'amasahani bitarazaho, ibintu by'iterambere ritaraza hariho imbuto, amasaka, soya, ibishyimbo n'ibishyimbo by'umukara, imbuto z'amoko yose.

Veterineri yaje gusuzuma inka yaragize ikibazo, ari kuyikura mu nda ngo yuve ikibazo afite, ni inka iri mu kiraro iri ahantu heza cyane yubakiye neza, ifite isuku ku buryo rwose ntacyo bashinja umuntu uyitaho.

Iyi ni ifomu ibamo inka nziza ziteze nk'inyambo z'imbyeyi, abavuzi viterineiri baje gukora urugendo shuri baza kwibaza ukantu inka zibayeho noneho banareba ko ari ikibazo zifite bakazisuzuma.

Aba ni abaveterineri bari gusuzuma inka bari kuzitera urushinge rutuma zitarwara indwara, babikora rimwe mu mezi atatu bakazikingira, inka zose zose barazikingira.

Aba ni abaveterineri bari gusuzuma inka bayikora mu nda, bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'ubururu na ga z'ubururu, bari kureba mu nda ngo barebe ko nta kibazo ifite bayishakire umuti bayivure.

Uyu ni umuveterineri wize ibigendanye n'amatungo, inka yagize ikibazo ari kuyikora mu nda kugira ngo yumve ikibazo ifite. Ntabwo bakoramo bakozamo intoki ahubwo bambara ga zabugenewe ndende cyane...

Iyi nka yagize ikibazo cyo gukamwa amatatari meza, dore aba veterineri bari kuyikora mu nda, undi na weagakama amata afite ikibazo, bakayabuganiza hasi. Urabona ko adasa neza ibintu byizinzemo kubera ko irwaye.

Iyi ni imiti abaveterineri bifashisha bari kuvura amatungo, hari igipombo kinini bifashisha bagendenamo imiti kugira ngo itangirika kugira ngo itwarike neza, bari kuri moto, bagiye kureba inka kuri tere.

Umuveterineri w'umukobwa wambaye kiyisilamu, ni umusilamukazi uri gusuzuma inka ayikora mu nda kugira ngo arebe ikibazo ifite ayitere urushinge cyangwa ayihe imiti.

Abaveterineri bari gusuzuma inka bazitera urushinge kugira ngo zibeho neza bazirinde indwara, bikorwa buri gihe abantu barabugenewe bazijyana kugira ngo zikingirwe.

Imparage ni inyamaswa nziza cyane. Zifite amabara meza umweru n'umukara. Inyamaswa igihugu iba irimo kiba gifite amahirwe kuko abakerarugendo baza kugisura bakizaniye amadovize kugira ngo bayirebe.

Iz ni inyamaswa ziguruka ziba mu mazi, zizi koga harimo izitwa ibishuhe. Ibishuhe n'inyamaswa ziteye nk'imbata cyangwa inyoni nini cyane ziba mu mazi.

Utwana tw'imbeba, imbeba yabyaye utwana twinshi cyane turi guhiga dushaka icyo kurya, iyi n'imbeba mu nzu y'umuntu yatwisemo yatwitiyemo igira amezi ibyara utu twana twayo turikwishakishiriza ibyo kurya.

Impara ndetse n'imparage, imvubu n'utundi dusimba tuzwi kwizina twa nyiragahene. Byose ni ibyiza bitatse u Rwanda, abazungu bajya baza kubisura bamukerarugendo bakava mu mahanga baje gusura u Rwanda, mbese muri make viziti Rwanda maze wirebere ibyiza birutatse.

Iyi ni inyamaswa nini cyane cyane cyane, ifite umunwa muremure bita umutunzi ifite n'amatwi manini. Ni inyamaswa iteye ubwoba cyane ku buryo umuntu uyibonye yava mo umutima cyangwa se agahamuka. Ni inyamaswa zikunze kuba ahantu hatuje kandi zirasurwa n'abakerarugendo.

Utunyoni twiza cyane dufite amabara meza duhagaze ku ishami ry'igiti icyo giti gihagazeho hari twatsi twiza tw'icyatsi, utunyone dufite amabara y'umutuku, move dusa neza cyane rwose turyoheye ijisho.